Umugabo w'umwirabura wambaye ikoti ndetse n'umupira ugizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umukara ari guseka, inyuma ye hari inzu y'ubucuruzi iriho icyapa cya Ekwiti kigizwe n'ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ndetse gishushanyijeho akazu gatoya kanditseho Ekwiti mu magambo y'umweru.

agahanda k'abanyamaguru kubakishijwe amapavi iruhande rwako hari akazu gato ka MTN gasizwe irangi ry'umuhondo kicayemo umuntu imbere yako hari umu ajenti wa Eirtel wicaye wambaye ijire, iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara iruhande rwacyo hari akazu gato ka motini kicayemo umu agenti imbere ye hari igipangu cyubakishijwe ibyuma kirimo ikibuga kinini giparikamo imodoka ndetse kirimo ibinyabiziga bibiri byifashishwa mu gutwara abagenzi iri mu ibara ry'umweru.

Akazu gato ka eyateli kari mu mbuga nini yubakishijwe amapave inyuma yako hari umutaka wa emutiyene urimo umukobwa wambaye ijipo uri kuvugira kuri telefone, iruhande rwe hari igare.

Umutaka munini wa MTN uri mu ibara ry'umuhondo, urimo umukozi wa MTN wambaye ijire riri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara ari gukoresha telefone. Imbere ye hari umusore wambaye ikabutura ndetse n'umupira.

Icyapa cya emutiyene kigizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse n'amagambo ari mu mpine yandikishijwe amabara y'ubururu ndetse n'umukara, imbere yacyo hari abantu bane, abagabo batatu ndetse n'umugore umwe. Umugabo umwe muri bo yambaye ijire ya emutiyene igizwe n'ibara ry'umuhondo ndetse afite icyapa mu ntoki.

Itente rinini bigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo umweru imbere yaryo hari imbaga nyamwinshi y'abantu, hari umugabo wambaye amarinete ishati y'umweru, imbere ye hari umugabo wambaye amarinete ikoti ry'umukara, ari gukora ku cyapa kigizwe n'ubuso buri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini w'umukara iruhande rwawo harikwira k'abanyamaguru kubabakishijwe amapavi gashinzemo icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Inyubako nini isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku isizwe irange ry'umuhondo, yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza ko ari inyubako y'Umurenge sacco, iriho umugore uhetse umwana ukenyeye igitenge, iruhande rwe haparitse moto iri mu ibara ry'umutuku.

Ahantu hari urumuri hateraniye imbaga nyamwinshi y'abana higanjemo abambaye udupira tw'ubururu turiho ikirangantego cya repubulika y'u rwanda. Hari umugore wambaye agapira k'ubururu, ingofero, afite indangururamajwi, imbere ye hari udupaniye tubeshye neza.

Umugabo w'umwirabura, wambaye ishati y'umukara, imbere ye hari ibyuma by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gufata amajwi, biri gukoreshwa n'abanyamakuru bari kumubaza, inyuma ye hari ikibuga kinini kigizwe n'ibyatsi ndetse n'indabo zikaswe neza ndetse hari umugore uri kugenda wambaye ikote ry'umweru.

Isoko ritangirwamo serivisi zo gucuruza imbuto, ririmo inanasi ndetse n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abambaye udupira turimo ibara ry'ubururu, harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru ndetse n'ipantaro afite mikoro ari kuvuga.

Abagore babiri bari gutunganya umusaruro ukomoka ku bigori, barunamye biteze ibitambaro mu mutwe, kandi bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururU. Inyuma yaho hari umugabo wambaye ipantaro ndetse n'umupira kandi hari umugore wambaye imyenda iririmo ibara ry'umutuku ndetse wikoreye basi.

Abasore bambaye amajire afite amabara atandukanye yiganjemo irya oranje batwaye amagare, inyuma yabo hari akazu gato ka MTN gasizwe irangi ry'umuhondo, imbere yako hariho umugabo ndetse inyuma hari inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye isizwe irangi ry'umweru.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo, kiri mu ibara ry'ubururu, kirimo imifuka itondekanye irimo ibara ry'umweru, inyuma yacyo hari abagabo bambaye impuzankano y'abakarani. umwe muri bo yikoreye umufuka uri mu ibara ry'umweru.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze higanjemo abagabo ndetse n'abagore, hari umugabo wambaye agapfukamunwa, ikoti, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro, inyuma yabo hari ibihingwa bitandukanye ndetse n'umurima urimo igiti.

Umugabo w'umwirabura ufashe mikoro yambaye ishati nziza, imbere ye hari igikoresho gikozwe mu mbaho ndetse kiri mu itente rigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo icyatsi ndetse n'ay'umuhondo. Inyuma ye hari ikibuga kinini kigizwe n'ibyatsi, ndetse n'indabo zikase neza.

Isoko ryubakishijwe ibyuma ndetse risakaje amabati ari mu ibara ry'ubururu, ririmo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibiribwa, imbere yaryo hari imbuga nini irimo amazi make ari gutemba ndetse n'abantu batandukanye, harimo umuntu witwikiriye umutaka.

Itente riririmo ibara ry'umweru, ririmo abagore batandukanye, umwe muri bo afite ibisuko by'umukara ndetse yambaye ikoti kandi yambaye udukoma twinshi ku kaboko, imbere ye hari imifuka ibiri.

Itente igizwe n'amabara atandukanye igandemi ry'umweru ryicawemo n'imbaga nyamwin y'abantu higanjemo abambaye imipira y'ubururu iriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, imbere yabo hari abagabo babiri bafite seritifika irimo ubuso bw'ibara ry'umweru.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye isizwe irangi ry'umuhondo ndetse iriho ibyapa by'ubucuruzi bitandukanye, imbere yayo hari imbuga nini yubakishijwe amapave ndetse iparitswemo imodoka iri mu ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari moto.

Icyumba cya banki gisizwe irangi ry'umweru ndetse n'iry'ubururu, kirimo ibirahuri binini imbere yabyo hari abantu batatu abagore babiri ndetse na mugabo umwe, mu bagore hari uwambaye ijipo y'umutuku, ndetse uri ku ruhande rwe yambaye ijipo y'umukara inyuma yabo hari intebe nyinshi ziw ibara ry'umukara.

Icyumba kinini kirimo urumuri kirimo intebe icuramye ikozwe mu mbaho ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo kandi urugi rukozwe mu mbaho imbere yarwo hari umugore ubyibushye wambaye imyenda iri mu ibara ry'umweru kandi yambaye ingofero.

Umurima wi'bigori urimo umumama w'umwirabura wambaye agapira k'umukara ndetse ukenyeye umukenyero, afite impapuro mu ntoki, ni ngombwa gufata neza imirima yacu kuko niyo soko y'ibiribwa bidutunga umunsi ku munsi.

Icyumba kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibyapa by'ubucuruzi bitandukanye, iruhande rwabyo hari igikoresho gikozwe mu mbahoho kibitsemo ibinyobwa bitandukanye, higanjemo amacupa y'inzoga ndetse n'amacupa y'amazi.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo gucuruza inzoga kirimo urumuri ndetse n'intebe nyinshi zicayeho abantu, imwe muri yo yicayeho umusore wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'umupira w'umweru, imbere ye hari imeza irambitseho ibirahuri birimo inzoga zitandukanye.

Icyumba gicururizwamo ibinyobwa kirimo ibikoresho bitandukanye harimo isaha, itara rimurika, intebe z'abakiriya ndetse na firigo, kirimo kandi amacupa atandukanye y'inzoga higanjemo iziri mu bwoko bwa rikeri, kirimo umugabo wambaye ishati y'umweru, akajiri k'umukara uhagaze muri kontwari.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bisembuye, iririmo rumuri, ndetse irimo amacupa atandukanye higanjemo aya lirekeli, kunywa ibisindisha ni bibi kuko bituma tutagira ubuzima bwiza.

Icyapa cy'inzoga ya gatanu kiriho ivide ndetse kiriho amafoto y'abagabo batandukanye bafite amacupa y'inzoga. Umwe muri bo afite inkoni ndetse yambaye ijire iririmo ibara ry'ubururu ndetse n'umupira w'umutuku, kandi kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo avuga guhuza n'inshuti nyanshuti.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo gucuruza inzoga, kirimo urumuri ndetse kirimo amacupa y'inzoga atandukanye higanjemo aya rikeli, kunywa ibiyobyabwenge si byiza kuko bituviramo kugira indwara zitandukanye ndetse no kugira ubuzima butari bwiza.

Icyumba gicururizwamo ibinyobwa, kirimo televiziyo iri mu ibara ry'umukara, imbere yayo hari umugabo wambaye ingofero, umupira w'umukara, uhagaze. Iruhande gato hari umugabo wambaye umupira w'ubururu wicaye, imbere ye hari imeza iri mu ibara ry'umukara, iriho amavide arimo inzoga zitandukanye.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa, ifite igisenge kiri mu ibara ry'umutuku ndetse hariho icyapa cya sikoro, yubakishijwe amadirishya ndetse n'inzugi bifite ibirahuri binini, isizwe irangi ry'umuhondo, iruhande rwayo hari igipangu kirimo inzu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu icururizwamo ibinyobwa yubakishijwe amabuye ndetse isizwe irangi ry'umweru, irimo intebe zitandukanye higanjemo izirimo iziri mu ibara ry'umweru, hagati yazo hari ameza akozwe mu mbaho, hari amavide atandukanye, abiri muri yo ni aya Primus.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo gucuruza inzoga. Kirimo abagabo babiri bicaye ku ntebe ndende, zikozwe mumbaho. Umwe muri bo yambaye ishati y'umutuku irimo imirongo minini y'umukara ndetse n'ikoboyi. Imbere ye hari umugabo wambaye ishati n'ipantaro ndetse n'inkweto. Imbere yabo hari amacupa arimo inzoga zitandukanye.

Icyumba gicururizwamo ibiribwa bitandukanye, gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse kirimo urumuri, kirimo umugabo w'umwirabura wambaye ishati ndetse ukoze ku bikombe birimo amabombo. Imbere ye hari indobo z'umweru imwe muri zo iriho shashi irimo amandazi.

isoko rinini n'ibicuruzwamo imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, ririmo abadozi ndetse n'abandi batandukanye, hari umugabo uri kudoda, wicaye wambaye ipantaro y'umukara ndetse inyuma ye hari umugabo ufite anvelope, wambaye igikapu mu mugongo ndetse wambaye ishati.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubucuruzi, kirimo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo amavuta yo kwisiga ndetse n'isukari. Butike mu buzima bwa muntu ni ingenzi kuko zifashishwa mu guhaha ndetse no kugurirwamo ibintu bikenewe mu buzima bwa buri munsi.

Iduka ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye, ririmo umugore w'umwirabura wicaye ndetse ukenyeye igitenge. Inyuma ye hari igikoresho gikozwe mu mbaho kirimo ibicuruzwa bitandukanye hejuru hari amabase higanjemo arimo ibara ry'icyatsi, munsi yayo hari ingofero nyinshi zimanitse, imwe muri zo iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umuhondo, gicururizwamo imyenda itandukanye ndetse n'ibikapu, higanjemo amakanzu. Ni byiza kugira imyenda myiza kuko bituma abantu tugaragara neza muri rubanda.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye, kirimo agakoresho gakozwe mu mbaho kamanitseho amakaramu atandukanye, ndetse n'igisokozo gifite ikirahuri hejuru yacyo, hari agakarito ka korogati kagizwe n'ibara ry'umutuku, ndetse kandiditsweho ijambo riri mu ibara ry'umweru.

Icyumba gicururizwamo ibikoresho bitandukanye kirimo firigo iri mu ibara ry'umweru hirya yayo hari ibikoresho bitandukanye, higanjemo amacupa arimo ji ndetse kirimo umucuruzi wambaye igitambaro kimwe no mu mutwe ishati irimo amabara atandukanye, yiganjemo ay'umweru imbere ye hari ibicupa bitandukanye birimo amabombo.

Inzu nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, isizwe irangi ry'umweru, ndetse imbere yayo hari ibicuruzwa bitandukanye higanjemo ibikoresho byo mu rugo nk'a mabase ndetse n'intebe. Imbere yayo kandi haparitse moto iriho kasike iri mu ibara ry'umukara. Kandi hari imbuga yubakishijwe amapave.

Iduka ricururizwamo ibintuindi bitandukanye, ririmo kontwari irimo inzoga hejuru yayo hari indobo irimo imigati, hirya gato, hari etajeri irimo ibinyobwa bitandukanye higanjemo amaji ndetse hasi yayo hari akajerekani kari mu ibara ry'umuhondo, gafite umufuniko uri mu ibara ry'umutuku.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo gucuruza ibicuruzwa bitandukanye, kirimo ibikoresho bitandukanye, higanjemo amacupa y'amavuta. Ni ngombwa kwisiga amavuta iyo tumaze gukaraba kuko bituma tugira uruhu rwiza rutoshye.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye ririmo firigo iririmo ibara ry'umweru iruhande rwayo hari etageri irimo ibicuruzwa bitandukanye imbere gato hari umugore w'umwirabura uri guseka witeze igitambaro kiri mu ibara ry'umweru mu mutwe.

Inzu nini isizwe irangi ry'umuhondo, ifite imiryango myinshi iri mu ibara ry'ubururu, ikorerwamo ubucuruzi bw'ibikoresho bitandukanye, umwe muri yo uriho icyapa ndetse imbere yawo hari umugabo wambaye umupira w'umukara, iruhande rwe hari umugore wicaye wambaye umukenyero ndetse imbere yabo hari gaze zitandukanye, zifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi, gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye, higanjemo amacupa y'amavuta, inzoga ndetse n'amacupa arimo ji. Kirimo umunzani w'ubururu, uriho igisahani cy'icyuma hejuru, imbere yaho hari indobo ndetse n'umufuniko wayo.

Umuhanda munini w'umukara, hiryaho hari akayira k'abanyamaguru kuba bakijijwe amapave, imbere gato hari igipangu kinini gifite inkingi zubabakishijwe amatafari ahiye, kirimo inzu nini y'urusengero isakajwe amabati arimo ibara ry'umutuku.

Urusengero runini cyane rwubakishijwe amatafari ahiye. Rurimo urumuri ndetse rufite amadirishya manini. Rurimo kandi intebe nyinshi zikozwe mu mbaho, ziri mu ibara ry'umukara. Gusenga ni byiza kuko bituma tureka gukora ibyaha.

Umusaza w'umwirabura ufite uruhara wambaye ikoti rya kositimu ari gusuhuzanya n'umuzungu wambaye ishati y'umweru. Iruhande rwabo hari abantu benshi, hari umusore wambaye isengeri ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'ubururu. Inyuma yabo hari inzu yubakishijwe imbaho.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kirimo abantu batatu; umuganga wambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'ubururu, ndetse yambaye agapfukamunwa n'amarinete, iruhande rwe hari umumama wambaye agapfukamunwa umupira w'icyatsi, ndetse akeneye igitenge, imbere yaho gato hari umwana muto wambaye agapira k'umuhondo bose bari gusunika akagare k'abamugaye.

Inzu nini basengeramo ifite amadirishya menshi, ifite igisenge k'ibyuma ndetse yicayemo abantu batandukanye higanjemo abagabo. Imbere yabo hari abapadiri babiri umwe muri bo yambaye ingofero y'umutuku, ikanzu y'umweru ndetse afite icyapa kiri mu buso bw'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza kugerayo amahoro mu gihe utwaye ikinyabiziga.

Umuhanda w'umukara, iruhande rwawo hari icyapa kinini, kigizwe n'ubuso bw'ubururu, byandikwamo amagambo ari mu ibara ry'umweru, iruhande rwacyo, hari ikigo cy'amashuri, kigizwe n'ibyumba byinshi, byubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba kirimo urumuri kirimo abantu batanu, abazungu batatu harimo ab'abagabo babiri ndetse n'umugore umwe kandi harimo abirabura babiri umugore umwe ndetse n'umugabo umwe, inyuma yabo hari ibyapa bitandukanye bifite amabara atandukanye higanjemo iry'umutuku.

Urusengero rwubakishijwe amatafari ahiye ruriho umusaraba imbere, imbere yarwo haparitse imodoka y'umukara, imbere yayo gato hari itsinda ry'abakobwa bari kubyina bamanitse amaboko babiri muri bo bakenyeye imikenyerero igizwe n'ibara ry'ubururu bwerurutse.

Inyubako ya hoteli nini irimo ibikoresho bitandukanye ndetse yubatswe igeretse, iririmo urumuri ndetse harimo intebe ziganjemo iziri mu ibara ry'umweru ndetse yubakishijwe amadirishya manini afite ibirahuri binini.

Icyumba cya hoteli gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo amakaro ndetse n'ibikoresho bitandukanye. Kirimo igitanda gikozwe mu mbaho, kiriho amashuka ari mu ibara ry'umweru, iruhande rwacyo hari akameza gato kari mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini cya hoteli, gisizwe amarange atandukanye ndetse gifite parafo iri mu ibara ry'umweru. Kirimo ibikoresho bitandukanye, higanjemo intebe ndetse kirimo igitanda gifite amashuka arimoburara ry'umweru, iruhande rwacyo hari intebe nziza iriho imisego.

Inzu nini iberamo igikorwa cyo gucuruza ibiryo, irimo abakozi batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abakobwa. Harimo umugore wambaye impuzankano igizwe n'iji rimwe iba ry'umutuku afite amasahani arimo ibara ry'umweru mu ntoki ariho ibiryo.

Hoteli nziza yubatse igereretse kabiri, isizwe amarangi atandukanye higanjemo iry'mweru ndetse n'umuhondo. Ifite amadirishya manini arimo ibirahuri kandi hariho ibyapa by'ubucuruzi bitandukanye. Imbere yayo hari indabo ndetse n'ikibuga kirimo ibyatsi bitoshye.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambaye amarinete ndetse n'ikoti ry'umukara ahagaze mu mbuga yubakishijwe amapave, iruhande rwe hari abagabo batandukanye harimo umuzungu umwe wambaye ikositimu y'umukara; inyuma yabo haparitse ibinyabiziga bitandukanye higanjemo ibiri mu ibara ry'umukara.

Icyumba cyijimye kirimo amakaro, kirimo imeza iri mu ibara ry'umukara, iriho ibiribwa bitandukanye higanjemo capati, imileti, ndetse n'imigati, kurya neza ni ingenzi kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Ahantu hasakaye, hari udutebe tubiri dukozwe mu mbaho, turi mu ibara ry'umutuku, imbere yatwo hari akayira gato kubabakishijwe amapave gakikijwe n'indabo, imbere hari ibiti ndetse n'inzu nini isakajwe amabati y'umutuku.

Inyubako nziza ya hoteri yubatswe igeretse ndetse isizwe irangi ry'umuhondo. Ifite amadirishya manini ari mu ibara ry'umukara afite ibirahuri binini. Iruhande rwayo, hari ibiti byinshi, higanjemo ibifite amashami maremare.

Icyumba kiza kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo ibikoresho bitandukanye higanjemo ibikozwe mu mbaho. Kirimo igitanda kinini gisashweho amashuka arimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hirya gato hari akabati keza gakozwe mu mbaho.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye, ririmo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, harimo moto iparitse, iri mu ibara ry'umutuku ndetse iriho kasike iri mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari amagare aparitse ndetse n'imodoka nini iri mu ibara ry'umweru.

Isoko ricururizwamo imyenda, ririmo abantu batatu, abagore babiri, bikoreye imizigo ndetse n'umugabo umwe wambaye ishati iri mu ibara ry'umukara, iruhande rwabo, hari imyenda igurishwa, higanjemo imipira, amakabutura ndetse n'amapantaro.

Isoko rikorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, ririmo ibikoresho byiganjemo ibikombe biri mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi, iruhande rwabyo hari amabase menshi yiganjemo ari mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari imifuka iri mu ibara ry'umweru.

Isoko ricururizwamo ibikoresho bitandukanye ririmo bodaboda ziri mu mabara atandukanye higanjemo ubururu ndetse n'umutuku, imbere yazo hari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore, umwe muri bo ateze igitambaro kirimo ibara ry'umweru mu mutwe.

Ingunguru nini ipfundikijwe ihema, imbere yayo hari igiti gito ndetse n'abantu benshi. Umwe muri bo ahetse igikapu cy'umukara ndetse yambaye ikoboyi. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira ugizwe n'amabara y'umukara n'umweru.

Agatabureti gakozwe mu mbaho imbere yako hari imashini yifashishwa mu kudoda, imbere yayo hari igare inyuma yaryo hari abana benshi higanjemo abatoya ndetse iruhande rwabo hari inyubako zitandukanye.

Isoko ricururizwamo imyenda itandukanye, ririmo abantu batatu hari umugore wambaye ikanzu igizwe n'amabara atandukanye yiganjemo iry'umutuku ufite imarete mu ntoki iri mu ibara y'umukara. Imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse imbere ye hari umugore wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu ufite akadobo k'umweru ndetse yikoreye imizigo.

inzu nini icururizwamo ibyo kurya isize irangi ry'umweru ndetse irimo intebe zitandukanye zikozwe mu mbaho imbere yazo hari ameza manini ashasheho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru ndetse arambitseho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutanga serivisi muri resitora.

Inzu nziza icururizwamo ibinyobwa, yicayemo abantu batandukanye, imbere yabo hari ameza arimo amacupa y'ibinyobwa bitandukanye, harimo inzoga ndetse na fanta, hari umugabo uhagaze wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'ikoboyi iri mu ibara ry'umukara.

Inzu nini icururizwamo ibinyobwa isizwe irangi ry'umweru ndetse irimo intebe zitandukanye ziganjemo izirimo ibara ry'umukara, imbere yazo hari ibikoresho bitandukanye, ndetse na etajeri irimo inzoga ziganjemo izirimo bwoko bwa likeri.

Inzu itangirwamo serivisi zo gucuruza ibiryo. Irimo parafo ndetse irimo itara rimurika. Irimo kandi intebe nyinshi ngufi hagati yazo harimo ameza ariho ibitambaro biri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo uri mu ibara ry'umweru hirya yawo hari moto iri mu ibara ry'umutuku itwawe n'umugabo wambaye kasike y'umutuku, umupira w'umukara ndetse hirya gato hari ishyamba rigizwe n'ibiti binini.

Umuhanda munini w'umukara urimo umusore uri kuvugira kuri telefone utwaye igare, wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro kandi atwaye umufuka uri mu ibara ry'umweru. Hirya ye hari umurima munini, hirya y'aho hari igipangu gisizwe irange ry'umweru.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, hari moto iri mu ibara ry'umutuku, itwawe n'umumotari wambaye ijire, ndetse na Kasike biri mu ibara ry'umutuku, hirya gato hari ikinyabiziga cya Rifani kigizwe n'ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo muremure uri muburara ry'umuhondo, urimo kandi umugabo utwaye igare wambaye isengeri ry'umweru, ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Inyuma ye hari abamotari batandukanye batwaye moto.

Umuhanda munini w'umukara iruhande rwawo hari umurongo w'umweru ndetse urimo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umukara, inyuma yacyo hari agahanda k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave ndetse n'inzu zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi imwe muri zo isizwe irange ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo umumotari uri kuri moto wambaye kasike y'umutuku, umupira w'umukara ndetse n'ipantaro, iruhande rwe hari umukobwa uri kugenda wambaye ipantaro y'ikoboyi uri kureba muri telefone, iruhande rwe hari akazu karimo ibara ry'ubururu kicaramo abagenzi bategereje imodoka, inyuma yako hari ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara inzoga cya sikoro.

Umuhanda munini w'umukara ku mpande zawo hari uturongo twinshi ducagaguye turi mu ibara ry'umweru, urimo kandi ikinyabiziga cya moto kiriho abagabo babiri bambaye kasike z'umukara, iruhande rwaho nanone hari inzu nyinshi zikorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini w'umukara urimo ikinyabiziga cya moto kiriho abantu babiri ugitwaye yambaye kasike y'icyatsi umupira ugizwe n'amabara abiri umweru ndetse n'ubururu, inyuma ye hari umugabo wicaye wambaye ishati ku ruhande gato hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave imbere gato hari agashyamba kagizwe n'ibiti byinshi.